Umugabo uhagaze imbere y'akabari, aka ni akabari gacururizwamo inzoga zigiye zitandukanye, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'itise, yambaye n'inkweto za congo aho mu kabari ke harimo intebe za parasitike iz'ubururu ndetse n'iz'icyatsi.

Umusore wicaye mu kazu ka sosiyete icuruza amayinite, kubitsa ndetse no kubikuza mu Rwanda MTN, hakaba hari abantu babiri baje kumusaba serivise ari kugenda abafasha aho baje kubikuza.

Umwari mwiza cyane yambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, afite imisatsi myiza imanuka ikagera ku kibuno, yambaye ipantaro yumukara akaba ari ku cyuma aho ari kugenda abikuza amafaranga.

Umugabo wambaye igisarubeti k'icyatsi kibisi afite igare, imbere ye hakaba hari umutaka ukoreramo umukozi w'Ikigo cya sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda izwi nka MTN. Hasi hasashe amapave.

Umusore wicaye imbere y'umuhanda wa kaburimbo ahasashe amapave, yicaye mu mutaka w'ikigo cya sosiyete y'itumanaho ikorera mu rwanda uzwi nka MTN. Uyu mutaka uri mu mara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Umugabo wicaye mu mutaka uri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweruru, wa sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda izwi nka MTN, imbere ye harimu umugabo uje kumusaba serivisi ari kumuha telefone ngo ashyiremo nimero maze amufashe.

Aka ni akazu ka sosiyete y'itumanaho ikorera mu rwanda izwi nka MTN, kari mu mabara y'umuhondo ndetse hakaba hari n'amagambo MTN, ari mu kazeru k'ubururu aho hari umukobwa waje gusaba serivisi.

Aba ni abanyeshuri bicaye ahantu hamwe bakaba bari kuganirizwa, bicaye mu mutaka wa MTN, imbere yabo hakaba haparitse amagare akiri mashya ndetse inyuma hari amamodoka.

Aba ni abakozi ba sosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo kubika, kubikura, ndetse no kuguriza izwi nka mtn ikorera hano mu rwanda. Hakaba hari umugabo waje kubasaba serivisi, bakaba bari kugenda bamufasha.

Aha ni iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo. Hakaba hari utuzu turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru tw'ikigo cya sosiyete y'itumanaho ikorera mu rwanda izwi nka Airtel. hakaba hari umuntu uri kugica imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto, hakaba hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda kazwi nka eyateri, hakaba hari uburyo bagaragaza ko ushobora kubona amafaranga usigaranye, ukanda akanyenyeri magana atanu urwego.

Aha hari akazu k'ikigo cy'igihugu gitanga sosiyete y'itumanaho, hakaba harimo umugabo uri gutanga serivisi. Hari abantu batanu baje kumwaka serivisi, ari kugenda abafasha umwe ku wundi.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi, imbere yayo hari umusore wambaye ijire ya MTN n'ipantaro y'umukara, hakaba hari umutaka wa Airtel urimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nka biswi, bombo n'ibindi.

Aka ni akaduka gato cyane k'agakiyosike, hakaba haparitse moto imbere yaho iriho kasike, hasi hakaba hasashe amapave, inyuma yaho hari iduka ricururizwamo ibikapu, amabalo, ndetse n'ibindi.

umugore wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari mu mutaka w'ikigo gitanga serivisi zo kubitsa, ndetse no kubikuza, aho imbere ye hari intebe ya pulasitike, iri mu mabara y'umweru, aho akorera hakaba hasashe amapave.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe mu mutaka wa sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho ya Airtel, bakaba bari kumwe n'umugabo uri kubasobanuza, ndetse hari n'undi uri kwandika imodoka ziri kugenda ziza aho ngaho.

Aka ni akazu ka sosiyete itanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza ikorera mu Rwanda izwi nka Emutiyeni Rwanda. Hakaba hari abagabo batatu bahagaze imbere, bakaba bari gusaba serivise zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe harimo intebe nziza cyane z'umukara zicara zegamiwe imbere yabo hari umugabo uri kureba muri mudasobwa, maze akabasobanurira ibijyanye na banki ndetse n'amashyirahamwe.

Iyi ni nyubako nziza cyane, nini kandi ndende. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa by'amabanki ndetse n'amashyirahamwe yo kuzigama no kugurizanya, ishyirahamwe rizwi nka tuzamurane.

Aha ni ahabaye imurikagurishwa ry'ibicuruzwa ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye turi kubona imifuka y'imiceri, tukabona umuceri udatetse ndetse utanasaruye, tukabona ibikapu bikoze mu bitenge, tukabona amavuta yo kwisiga afunze mu macupa y'umuhondo ndetse n'amasabune yo gukaraba y'amazi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Aho bari kubasobanurira ku bijyanye na serivisi, z'amabanki ndetse n'amakoperative. Bose barakurikiye kuko barashaka kwiteza imbere, maze nabo bagakora.

Aba ni abagabo batatu bakaba bahawe ishimwe na amabanke ndetse na koperative bakoreramo, aho aba bagabo babaye indashyikirwa mu bijyanye no kwizigamira muri banki.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo umugabo w'umwisilamu wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'akagofero mu mutwe. Imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Akaba ari kumubaza uko igikapu kigura.

Iri ni iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hateretsemo imifuka irimo umuceri, irimo akawunga, irimo isukari ndetse hakaba n'utujerekani turimo amavuta ndetse n'uturimo isabune.

Iri ni iduka rikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hadoderwamo imyenda ndetse hakanagurishirizwamo amakanzu, ibitenge, ibikapu ndetse n'ibindi, iri duka rero rikaba rikorerwamo n'abantu bamwe bari kudoda ndetse n'undi waje kudodesha.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba hateretsemo indobo ndetse hari ibicuruzwa bimanitse biririmo ubwoko bugiye butandukanye.

Aba ni abakirisitu bari mu rusengero bicaye ku ntebe z'ibiti bakaba bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye, imbere yabo hari umwari uri kubafotora, izi nsengero zimwe Leta yarazihagaritse.

Umugabo wambaye ikoti akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu ari kumwe n'undi mugabo wambaye ishati irimo utubara na we wambaye agapfukamunwa k'umutuku ndetse n'amarinete akaba ari kumuhereza ishimwe.

Uyu ni umupadiri wicaye imbere y'abakirisitu, akaba yambaye ikanzu ndetse yambara n'utwitero tw'icyatsi ndetse n'umutuku, imbere ye hari udutambaro tuharambuye ku meza tw'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu bicaye mu rusengero bakaba bakurikiye aha ni ahatangirwa serivisi z'insengero hakaba harimo abantu bambaye neza imikenyero ndetse n'amakoti, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'amashakoshi bazanye.

Uru ni urusengero padiri akaba ari imbere, abakirisitu bahagurutse, aho ari kubasomera ijambo ry'Imana, mu rusengero rwubakishije amatafari ahiye, mo imbere hakaba harimo ibiti ndetse hasi harimo sima.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu rusengero, bahindukiye bari guhana amahoro ya kirisitu, bose bari gusenga bishimye kandi banishimiranye, bakaba bicara ku ntebe za purasitike z'umweru.

Aba ni abantu bateraniye mu nyubako y'urusengero, bigaragara ko ari ruto cyane kuko bahagaze mu buryo bucucitse, abana bicaye hasi, aha ni aho basengera, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kurwanya, insengero zidafite aho zikorera.

Iyi ni nyubako nziza cyane ya hoteli yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri hakaba harimo inyubako nyinshi, imbere yayo hari ubusitani bwiza busa icyatsi kibisi, haruguru yayo hakaba hatuye abaturage.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi za hoteli, iyi nyubako yubatswe igeretse gatatu, ikaba isakaje amabati atukura, hariho icyuma gishyushya amazi ndetse hakaba hari n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagannye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nyubako ya hoteri, ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwemo irange ry'umuhondo bahagaze ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazibuke ibihe byiza bagiriye muri iyi nyubako.

Aha ni ahantu heza cyane ushobora gusohokera, ni muri hoteri ifite ubwogero bwiza, ikagira ubusitani bwiza, ikaba ifite ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, ikirere cyaho ni cyiza cyane kirasa umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako ya hoteli ikaba irimo intebe nziza cyane, hari ameza ateretseho ururabo rurimo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, urukuta rusize irange ry'umweru, hakaba harimo amarido hasi hari isima.

Iyi ni hoteri yakira abantu bagiye batandukanye, harimo umukobwa uri guha ikawa nziza cyane umuzungu waje muri iyo hoteli, hakurya hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane ya hoteri, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo amadage hari ibyuma ugenda ufashe kugira ngo utagwa, harimo n'amatara meza cyane yaka mu buryo bworoheje kugira ngo atamena amaso abayigendamo.

Iyi ni inyubako nziza ya hoteri ikaba irimo igitanda kiriho matera gisashe neza hariho n'umusego, hejuru hariho inzitiramibu ndetse hakaba n'ifoto imanitseho, inzugi ni umukara, hari n'akabati ushobora kubikamo ibintu byawe.

Iyi ni hoteli nziza cyane, ikaba isizemo amarangi y'umweru, ifite inzugi z'umukara, hariho amarido, hakabamo n'akuma kifashishwa hazimwa inkongi y'umuriro, mu gihe haba habayeho impanuka, hasi hasashe amapave.

Iyi ni hoteli nziza cyane, ikaba irimo ibitanda byiza cyane. birimo matela nini, imisego, amashuka. Hakaba inzitiramibu, inzugi ni umukara. Hakabamo n'amarido y'umukara. Harimo agatebe ndetse n'ameza.

Aha ni ahantu heza cyane hakaba hari umutaka. Hari hoteri ndetse hakaba n'ubwogero, hakurya hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bizamutse bitanga umuyaga n'amahumbezi. Ikirere ni cyiza cyane kuri uyu musozi.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo, hakaba hari umuntu uri gutambuka ajyamo, hari imodoka ziparitse hafi aho, hakaba n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu baza bahagana.

Iyi ni hoteli nziza cyane, icumbikira abantu, ikabaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari aho imodoka ziparika ndetse haparitsemo imodoka eshatu, iy'umukara ndetse n'iy'umweru.

Iyi ni inyubako ya hotel ikaba irimo serivisi zigiye zitandukanye. Iyo ubagannye barakwakira bakwakirana yombi maze bakaguha aho gukarabira, wamara gukaraba bakakwereka aho uruhukira ukazataha umeze neza.

Iri ni isoko ry'ubuconsho, hakaba harimo abacuruzi bagiye batandukanye. Hari umamama wikoreye ibase irimo amajage, amaterimusi ndetse afite n'ibikombe mu ntoki, hakaba n'undi mumama uhagazemo umeze nk'ushaka kugura.

Iri ni isoko ry'imboga ndetse n'imbuto rikaba ricururizwamo n'ubundi bucucu, harimo imodoka zigiye zitandukanye abamotari ndetse harimo n'urujya n'uruza rw'abantu baje kwigurira ibyo bakeneye.

Ubu ni ubucuruzi bubera ku muhanda. Harimo ibyo kwisasira ndetse n'ibyo kwiyorosa. Hari umugabo ucuruje ndetse hari n'undi uje kugura, ibi birambitse mu byatsi. Hakaba hari n'ibiti birebire.

Iri ni isoko ry'imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo imboga z'amoko yose ndetse hakaba harimo n'abazicuruza, harimo umubyeyi wambaye agapira k'umweru, ari kwitegereza amarongi ndetse n'imyembe, biri iruhande rwe.

Iri ni iduka ricuruza imyenda, harimo imyenda y'amoko yose, harimo ibitenge bijye bitandukanye, hakabamo imipi igi itandukanye ndetse harimo n'umusore uri kuricururizamo.

Ubu ni ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, turi kubona akayunguruzo, imyeyo, imifuka ndetse n'ubundi buconsho bugiye butandukanye. Aho abaje mu isoko bagenda bagura bitewe n'ibyo bakeneye.

Urujya n'uruza rw'abamotari aha hari abantu benshi cyane abikoreye, abari kugenda n'amaguru, abacururiza mu mitakaka ya MTN, ibitoki, abari mu maduka ndetse n'abandi, aha ni mu kayira kava mu isoko.

Iri ni soko riciriritse ribera ahantu ku muhanda, hakaba haparitse imodoka, hari amagare atatu ariho udutebo ndetse n'imifuka, hakaba umutaka washaje bigaragara ko na wo ukorerwamo ubucuruzi.

Iyi ni inyubako ya hoteli, bakaba batanga ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse bakaba baguha n'icumbi mu gihe urikeneye, hakaba hasa neza cyane kuko harimo intebe nziza ndetse n'ameza ushobora kwicaraho uri gufata amafunguro.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivise z'amahoteli ndetse n'amaresitora, hakaba hari inyubako iriho ibyuma by'umukara hakaba hari uduti twiza dutanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bayigana.

Iyi ni inyubako ya hoteli, ikaba itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, cyane cyane nko kwakira abantu, bakabaha ibyo kurya, bakabaha aho baruhukira, maze bakabereka n'amashusho agiye atandukanye, bigatuma bahakunda.

Iyi ni inzu nziza cyane itangirwamo serivise zijyanye no kugaburira abantu ibyo kurya, ni resitora itagira uko isa iteretseho intebe nziza ndetse n'ameza aho ubagannye ataha abirahira.

Aba ni abamotari baparitse imbere y'amaduka, ni moto zigiye zitandukanye ndetse n'amagare, hakaba hari indobo ya kandagira ukarabe y'icyatsi kibisi irimo akabase k'umuhondo, iteretse imbere y'iduka, umumotari yamanjiriwe.

Umugabo ushoreye igare ririho ibitoki ni ibitoki byinshi cyane bigaragara ko abijyanye mu isoko hakaba hari imodoka ya fuso isa n'ubururu imuri imbere, uyu mugabo ari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse moto, inyuma akaba ahetse icupa rya gaze, ku ruhande rwe hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi nk'izirimo aho bakorera ibikorwa by'imikino y'amahirwe.

Umugabo utwaye igare arahagaze ahagararanye n'umwari ukorera ikigo gicururiza sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda izwi nka MTN akaba ari kumubikurira amafaranga bahagaze mu muhanda wa kaburimbo.

Urujya n'uruza rw'abamotari hari umumotari wambaye ijire itukura akaba yambaye kasike y'umutuku yari atwaye umugenzi w'umumama mwiza cyane ufite mu maso heza wambaye agakote k'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo utwaye igare, uyu muhanda hirya hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo umuntu, hakaba ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti bitanga umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'amagare, hakaba hari abanyonzi bahagaze bari kumvikana ibiciro n'abari bashaka gutega amagare. Igare ni kimwe mu byifashishwa mu gutwara abantu.

Umumuhanda wa kaburimbo urimo moto. Iyo moto itwawe n'umumotari akaba atwaye umugenzi. Umumotari yambaye kasike y'icyatsi kibisi ndetse n'umugenzi yambaye kasike yi'cyatsi kibisi. Imbere hakaba hari umuntu uri guca mu muhanda. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti byiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nziza cyane y'umukara, iruhande rw'umuhanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye ndetse zicururizwamo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umumotari wambaye ijipo y'umutuku, afite kasike ebyiri z'icyatsi kibisi, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira w'ingofero n'agapfukamunwa, akaba afite ishakoshi ku kuboko, bari kumvikana ibiciro kugira ngo bamujyane.